Mo imbere mu ishuri ahagaragara ikibaho abantu bandikaho ndetse n'ameza, hari abana b'abanyeshuri bambaye imyenda isa.

Abana benshi batoya bisa nkaho bari mumyaka yenda kungana, hakaba harimo abahungu ndetse n'abakobwa bicaye ahantu mu mbuga.

Mo imbere mu nyubako bigaragara ko ari ishuri, imbere hari ikibaho cy'umukara, hicayemo abana batoya b'abahungu n'abakobwa bafite ibitabo.

Umudamu uhagaze wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'itaburiya y'umweru, akikijwe n'abana batoya bafite ibitabo mu ntoki.

Inyubako zigaragara zubakishijwe udutafari dutoya duhiye ndetse n'idirishya risize akarangi k'icyatsi n'ibirahure, hakaba hari abana batoye umurongo n'ababyeyi bahahagaze.

Umudamu uhagaze, wambaye itaburiya y'ubururu ndetse yiteze igitambaro, hasi hakaba hicaye abana ku musambi.

Hasi mu byatsi bisa nk'aho bitoshye, hakaba harambitseho udupapuro tugiye turiho hejuru amagambo afite icyo asobanuye.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara ikibaho cy'umukara, gishushanyijeho ibintu bitandukanye ndetse n'udutebe dufite amabara atandukanye n'imeza.

Akabati kagaragara kanini kagiye kasemo utuzu, gakozwe mu imbaho, hakaba harimo ibitabo byinshi ndetse n'agakapu k'umukara.

Urukuta rugaragara rwubakishijwe amatafari matoya ahiye, mu mbuga hakagaragara abana b'abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano.

Imeza igaragara ikozwe mu mbaho, hakaba harambitseho amarate abiri, imwe iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'isaha iriho imibare.

Ibipapuro byometse ku gikuta gisizeho irange ryenda gusa umuhondo, bikaba biriho ibishushanyo bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana.

Mo imbere mu nyubako isa nkaho ari ishuri ryubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragaramo intebe bicaraho bandika bakanabikamo amakaye.

Akabati karimo imbere mu nyubako kagaragaramo ibitabo byinshi cyane byifashishwa mu gusoma ibintu bitandukanye, hakagaragara umuntu.

Urukuta rugaragara rwubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hari icyapa cyometseho kiriho abantu batandukanye, bari gukora imirimo itandukanye.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari ahiye matoya, hanze hakaba hashinze ibyuma, ikaba kandi iriho amadirishya n'inzugi bikozwe mu byuma.

Imbere mu nzu ahagaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ameza ndetse n'intebe y'umukara, hari ibitabo biteretse hejuru ndetse n'urupapuro.

Urukuta rw'igipangu rugaragara rwubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragara abana batoya bahahagaze bahetse udukapu.

Icyapa kigaragara, gikozwe mu cyuma, kikaba gisizeho irange ryera, hakaba hari amagambo yanditseho manini mu ibara ry'ubururu.

Mo imbere mu nyubako yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragara icyo bita ikibaho cyifashishwa mu kwandikaho ibintu runaka.

Ikigo cy'amashuri kigaragara cyubakishijwe udutafari dutoya duhiye ndetse imbere mu kibuga haragaragara abana benshi bari gukina bambaye imyenda y'ishuri.

Igikuta kigaragara gisize ibara ryenda gusa umuhondo, hometseho impapuro ebyiri rumwe rukaba rufite ibara ry'umuhondo, urundi rufite ibara ryera.

Mo imbere mu nyubako igaragara ko yubakishijwe n'amatafari matoya ahiye, hakaba hamanitsemo igipapuro cy'umuhondo ndetse n'akameza n'intebe zikozwe mu mbaho.

Umuntu utagaragara neza mu bice byo hejuru ku isura, imbere yiwe hagaragara ikayi afite ikaramu mu ntoki ari kwandika.

Ikigo cy'amashuri kigaragara gifite urugi rukozwe mu twuma tw'umutuku, hanze hahagaze abana batoya, bambaye imyenda y'ishuri.

Inyubako igaragara yubakishijwe udutafari dutoya duhiye, hakagaragara abana batoya bambaye udushati tw'ubururu n'udukabutura tw'igitaka.

Inyubako igaragara, yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hagiye harimo imyenge myinshi itandukanye, n'ibitiyo bicometsemo bisohora imyuka.

Hanze ahagaragara nkaho ari ishuri, hari abana bateruye ibasi y'ubururu, umwe yambaye bodaboda zisa umuhondo n'agashati k'ubururu bwerurutse.

Inyubako igaragara ifite amadirishya akozwe mu byuma azengurukijwe n'akarange kenda gusa umuhondo, imbere hakagaragara umwana wambaye imyenda y'ishuri.

Inyubako zigaragara zubakishijwe n'amatafari matoya ahiye, zisakajwe n'amabati afite ibara ry'ubururu, inyuma hakaba hateye intoki n'ibiti.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye haragaragara idirishya, imbere hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru.

Agapapuro kagaragara kanditseho amagambo atandukanye, kakaba gashushanyijeho n'ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, harimo ingorofani, umupanga, igitiyo, inajoro ndetse n'isuka.

Umudamu uhagaze wambaye ingofero, akaba yambaye n'igitenge kirimo amabara atandukanye, akikijwe n'abana batoya bafite ibitabo.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hariho inzugi zikozwe mu mbaho, ikaba isakajwe amabati, inyuma yayo hari ibiti.

Inyubako igaragara yubakishije amatafari matoya ahiye, ikaba ifite amadirishya akozwe mu byuma ndetse n'urugi bisizwe akarangi k'icyatsi.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari ahiye, matoya, ikaba imeze nk'aho ishaje hakagaragara icyuma kiyicometseho gisohora imyuka runaka.

Inyubako igaragara ndende yubakishijwe amatafari matoya ahiye isakajwe amategura, inyuma yayo hari ibiti byinshi n'abanyeshuri bari imbere.

Abana batoya ndetse n'abakuru, bakaba bari hanze y'ishuri, hari abambaye amashati y'ubururu bucuye ndetse n'amakabutura asa igitaka.

Imbere mu nyubako ahagaragaraho urugi bakunda kwita metarike, rukozwe mu byuma ndetse hakaba harimo n'ibirahure bifatishijwe masitike.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye, hanze hakaba hari ikigega cyubakishijwe amabuye, cyifashishwa mu kubika amazi.

Mo imbere mu nzu ahagaragara umudamu wambaye itaburiya yera ndetse n'umupira utukura mo imbere akikijwe n'abana batoya bafite ibitabo bari gusoma.

Abana batoya bari mu imbere mu ishuri, bakaba bicaye ku ntebe ikozwe mu rubahu, hari abambaye amashati y'ubururu ndetse abandi bambaye amashati asa igitaka, imbere yabo hari igitabo.

Mo imbere mu nyubako yubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragara inzugi zikozwe mu byuma zisize irange ry'ubururu.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hariho urugi n'amadirishya bikozwe mu byuma, ikaba isakajwe amabati.

Inyubako zigaragara zitondekanye ku murongo, bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri, zikaba zisakajwe amabati asa ubururu, hanze hari abana bari gukina.

Ikigo cy'amashuri kirimo inyubako zubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragaramo abana benshi cyane batoya bambaye impuzankano, ni abanyeshuri.

Mu imbere mu nyubako ahasa nk'aho ari mu ishuri, hateyemo intebe bicaraho banandika ibikwamo amakayi mu imbere haragaragara agakoresho bifashisha bacomeka ibindi bintu.

Akabati kagaragara karimo amoko atandukanye y'ibitabo, kakaba gakozwe mu mbaho, hakaba hari ikiriho umuntu wifashe ku mutwe.

Igipangu kigaragara cyubakishijwe utwuma, imbere hari icyapa kinini gikozwe mu cyuma cyanditseho amagambo manini mu ibara ry'ubururu.

Mo imbere mu ishuri ahagaragara ikibaho cyifashishwa mu kwandikaho note runaka iyo abanyeshuri bari kwiga bakanakoreraho imyitozo.

Sale nini igaragaramo abantu benshi cyane, hakaba higanjemo abana batoya b'abanyeshuri bambaye amashati yera, imbere hakaba hari umudamu wambaye amarinete.

Salle nini igaragara, irimo amatara menshi ari kwaka, isizemo irangi ryenda gusa icyatsi, hakaba hicayemo abanyeshuri benshi, bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu.

Hanze y'ikigo cy'amashuri ahagaragara ishyamba riteyemo ibiti byinshi, mu kibuga hakagaragara abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru ndetse hasi ni imyenda isa igitaka.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari ahiye, imbere hakaba kandi hubatswe mu tw'uma, gasakaje amabati asa ubururu, hari n'idarapo rishinze muri jaride.

Inyubako igaragaraho inzugi ndetse n'amadirishya menshi, hanze hakaba hari esikariye ndetse n'imodokari ya Toyota y'umweru ihaparitse.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara ukikijwe n'ibiti bihateye binini cyane, hagaragaramo abasore batatu bari kugenda ndetse n'umudamu ubari inyuma.

Inyubako igaragara bisa nk'aho ari ibyumba by'amashuri byubakishijwe amatafari matoya ahiye, muri jaride hakaba hamanitse ibendera.

Mo imbere mu cyumba cy'ishuri, ahagaragaramo abanyeshuri bambaye impuzankano, ku meza imbere yabo hateretse za mudasobwa ndetse n'ikayi n'ikaramu.

Ikigo cy'amashuri kigaragaraho inzu zubakishijwe amatafari ahiye, imbere hashinze idarapo ndetse n'ibiti bihateye, hakaba haparitse n'amamodoka.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara intebe nyinshi bisa nk'aho ari icyumba cy'ishuri zifashishwa mu kuzandikiraho ndetse bakanabika amakayi mu imbere.

Imodokari iparitse ifite ibara ry'umweru, hanze hakaba hari abana b'abakobwa b'abanyeshuri bahetse ibikapu bambaye amajipo asa igitaka.

Mu imbere mu nyubako ahagaragaramo abadamu hakaba hari igikuta gisize ibara ryenda gusa icyatsi, bose bambaye amataburiya y'umweru hari ibyo bari gukora.

Ahantu hitaruye hagati y'inyubako zigaragara, hakaba hateyemo ihema ryicayemo abantu, hakaba hari n'abandi bari hagati bari kubyina, abasore ndetse n'abakobwa.

Abanyeshuri benshi bicaye bambaye amashati y'ibara ryera ndetse hasi bakaba bambaye imyenda isa igitaka, imbere yabo hahagaze abantu bakuru.

Umuhanda ugaragara muremure kuruhande hashinze icyapa kirimo ubwoko bwa tiriyangere cyakabara k'umutuku n'umweru hakaba hari abana bari kwambukiranya n'imodokari.

Gare igaragara ihagazemo abantu benshi hakaba hubatsemo n'amazu menshi, hari imodokari ihagazemo ifite ibara ry'umweru n'abanyeshuri bahetse ibikapu.

Ikigo cy'amashuri kigaragara hakaba harimo inyubako zisakajwe amabati atukura, hakagaragara abanyeshuri bahetse ibikapu bari kugenda.

Inyubako nini igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragara amadirishya ariho utuhure twinshi, imbere hakaba hari ishusho ihubatse.

Inyubako zigaragara ndende zubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragara abana cyangwa se urubyiruko ruri mu kibuga gikinirwamo umukino w'intoki.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere mu mbuga hakaba hicayemo abana benshi b'abanyeshuri bambaye amashati yera, imbere kandi hicaye abayobozi babo.

Igipangu kigaragara cyubakishijwe udutafari dutoya duhiye, kikaba giteyeho n'utwuma dusize irangi ry'umweru, mo imbere haragaragaramo ikibuga gikorerwamo siporo z'amaboko.

Urukuta rugaragara rwubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hari icyapa giteyeho kiri mu ibara ry'umweru, hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu andi akaba yanditse mu ibara ry'umukara.

Ibyapa bibiri bishinze ahantu mu byatsi byose bikaba bikozwe mu byuma gifite irangi ry'umweru n'akaruru cyanditseho amagambo y'umukara, ikindi gifite umuzenguruko w'umutuku n'umurongo uciyemo w'umweru.

Ikibuga kigaragara gishinzemo icyo twakwita amapoto, kikaba gikorerwamo imikino y'amaboko, inyuma hari inyubako nyinshi zihubatse.

Mo imbere mu ishuri, ahagaragara umwarimu w'umudamu wambaye itaburiya y'umweru, ari ku kibaho ari gutanga amasomo ku banyeshuri.

Igishushanyo kigaragara kiri mu bwoko bw'uruziga, hakaba harimo amashusho y'ibintu bitandukanye, harimo ibiti ndetse n'amazi arimo gutemba.

Urukuta rugaragara hariho icyapa gishushanyijeho abantu babiri bafite igitabo, ndetse n'ingabo n'ikindi bita igiseke.

Mo imbere muri sare nini cyane ahicayemo abana b'abanyeshuri, hakaba hari umugabo uhagaze ufite mikoro mu ntoki, yambaye umupira wera.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye haragaragara amadirishya arimo ibirahuri binini hanze hateye ibyatsi.

Inyubako yubakishijwe amatafari matoya, ahiye, igaragaraho amadirishya, hanze mu byatsi hicayemo abana benshi batandukanye: abakobwa n'abahungu.

Mo imbere mu nzu ahagaragara ko hasize irangi ryera, harimo ibitanda bibiri bigerekeranye bikozwe mu byuma, ku ruhande hari ahantu harambitse ibikapu byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo ugenda ugana ahantu hari inyubako zubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragara abantu bahagaze n'abandi bari kugenda.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye, birasa nkaho ari ikigo cy'amashuri gisakajwe n'amabati, inyuma haragaragara ibiti.

Mo imbere muri salle ahagaragara abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe za parasitiki zisa ubururu, bakaba bambaye imyenda y'umweru hejuru.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye akaba zisakajwe amabati y'ubururu, hanze hateye ibyatsi hakagaragara abanyeshuri bari mu mirimo itandukanye.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye, igipangu kikaba gikozwe mu byuma, gisize irangi risa ubururu, hejuru hari icyapa cyerekana ko ari ikigo cy'amashuri.

Mo imbere muri sale igaragaramo utuyetajeri turimo amoko atandukanye y'ibitabo ndetse n'ameza akozwe mu mbaho n'intebe, hari umugabo wicayemo wambaye itaburiya yera.

Salle nini igaragaramo urubyiruko rw'abanyeshuri, bambaye amashati y'ubururu, imbere yabo ku meza ateretseho za mudasobwa.

Mo imbere muri salle igaragaramo utubati twinshi, hakaba hari umuhungu wicaye ku ntebe wambaye umupira utukura asa nkaho ari kwandika.

Hanze ahagaragara abana benshi b'urubyiruko bambaye impuzankano, amashati asa umweru, hasi imyambaro isa igitaka.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo abagabo batandukanye, bakaba bambaye amasurubeti asa ibara ry'ubururu, imbere yabo ku meza hari ibikoresho bari gutunganya.

Abana benshi cyangwa se urubyiruko bari kwirukanka mu muhanda wa kaburimbo, bambaye imyenda ya siporo yenda gusa umweru, hari n'abambaye isa ubururu.

Inyubako zitandukanye nyinshi bisa nk'aho ari ikigo cy'amashuri, hakaba hari abantu bari kugenda hanze, cyubakishijwe amatafari matoya ahiye.

Inyubako igaragara nini isize amoko atandukanye y'amarange, hanze yayo hakagaragara ikigega kimanitse hejuru ku byuma ndetse n'ibiti bihakikije.

Mo imbere muri sale, ahagaragaramo abanyeshuri benshi cyane, bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'igitaka, hari ibikoresho byinshi birimo.

Umwana utagaragara mu gice cyo mu maso, akaba yambaye udukweto dufunguye, ndetse n'agashati k'ibara ry'ubururu, akaba ateruye akadishi gakozwe mu cyuma.

Sale nini yicayemo abana benshi batandukanye, bisa nkaho ari ishuri ryigisha ibijyanye no gukoresha icyarahani cyifashishwa mu kudoda imyambaro.

Mu imbere mu nyubako bigaragara ko yubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragaramo abana bari ku meza bari kurya bafite imineke, bambaye imipira y'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari utuborodire dusize irangi ry'umweru ndetse n'umukara, hakagaragara umwana uri kugenda yirukanka, hepfo na ruguru hari amazu.

Amaboko y'umuntu utagaragara ku bindi bice by'umubiri, akaba afite igitabo mu ntoki, ari kugenda arambura, hirya hakaba hari akabati karimo ibindi byinshi cyane.

Umuhanda w'amabuye ukikijwe n'inyubako zubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragaramo imodokari isa umuhondo n'indi iparitse yera.

Inyubako nini zigaragara ziriho amadirishya menshi, zikaba zisize irange risa umuhondo, zisakajwe amabati y'ubururu, hanze hari abanyeshuri bari kuhagenda.

Hanze ahagaragara abana benshi b'urubyiruko, akaba ari abanyeshuri, hagati yabo n'impande hakaba hari abantu bakuru b'abayobozi babo, inyuma haparitse imodoka.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragara amadirishya arimo ibirahure, imbere hahagaze abanyeshuri benshi bambaye amashati yera ndetse n'amapantaro y'igitaka.

Mu nyubako ahagaragaramo ameza akozwe mu cyuma ndetse n'imbaho n'udutebe tubiri, hateretsemo utubido dutatu n'ibikombe bibiri.

Mu imbere mu nyubako isizemo irange risa umuhondo, haragaragaramo ameza akozwe mu rubaho ndetse n'utwuma n'intebe eshatu.

Mo imbere mu nyubako, ahagaragara ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe ndetse n'ameza, hejuru yayo hakaba hari igitabo ndetse n'impapuro.

Mo imbere muri sale ahagaragarara umugabo ufite insakazamajwi bakunda kwita mikoro, yambaye ingofero yera n'umupira w'icyatsi.

Sale igaragaramo abantu bakuze bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Akapa kagaragara gakozwe mu mbaho, kamwe gahagaze n'akandi gatambitse, kakaba gashinze muri jaride, kanditseho amagambo manini.

Mu imbere mu nyubako ahagaragara abantu benshi, umukobwa uri inyuma yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira kera afite imisatsi myinshi.

Urupangu rugaragara rwubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragaraho inzugi zikozwe mu twuma, imbere hakaba hari ibyapa bihateye.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara ameza ateguyeho ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibiryo n'ikirahure kirimo umutobe wo kunywa n'umugabo ufashe amasahani abiri.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragaraho amadirishya n'inzugi bisize irange ry'umweru hanze hakagaragara ibiti.

Urugi rugaragara rukozwe mu mbaho, hakaba hateyeho akapa kariho imibare n'inyuguti, hejuru hakaba hari akandi gasa umweru, kanditseho imibare n'inyuguti.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo abantu, harimo umudamu ufite imisatsi iboshye, imbere yabo hakaba hari mudasobwa ziri kwaka n'umuntu uri kuberekera.

Mo imbere mu nzu isa nk'aho ari nini cyane, ikaba ishyizemo irange ryenda gusa umuhondo harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, ameza n'utubati.

Mo imbere muri salle ahagaragaramo abantu benshi b'urubyiruko, harimo abadamu ndetse n'abagabo, hari ibikoresho biteretse imbere ku meza ari byo mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo utubido tw'umweru ndetse n'akabati karimo inkweto zo kwambara, hasi hashashe agatapi ku kabati hejuru hariho amavarisi.

Inzu itagaragara neza yose, isize irangi ry'ibara ry'umuhondo, haragaragara urugi rurimo ibirahure ndetse rufite na serire.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hari ikibaho kimanitse ku gikuta, harimo ameza ateretseho mudasobwa.

Hanze ahagaragara inyubako zisize irangi ryenda gusa umuhondo, hateyemo ibiti ndetse n'uturabyo, hari umuntu uhicaye ku ntebe.

Mo imbere mu nyubako hagaragaramo utubati twinshi, tugiye turimo ibitabo byinshi bitandukanye, hari kwakamo amatara harimo n'intebe.

Mo imbere mu nyubako, ahabera inama cyangwa se ahafatirwa amasomo hamanitsemo ikibaho cy'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'intebe.

Sale nini igaragaramo ibikoresho bitandukanye bisa nk'aho hakorerwamo ubushakashatsi runaka, hakaba harimo abantu bambaye amataburiya y'umweru.

Mu imbere mu nyubako ahagaragaramo ikibaho ndetse n'amatara abiri ari kwaka, harimo ameza ndetse n'intebe n'umuntu wicaye imbere ya mudasobwa.

Imbere mu nyubako ahagaragara ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo utubati ndetse n'andi mamashini, hakaba hari mudasobwa ihateretse izimije.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo utubati dukozwe mu mbaho, hakaba harimo kandi n'ameza, hejuru hateretseho mudasobwa.

Inyubako zigaragara zubakishije amatafari matoya ahiye, hanze hakagaragara icyapa gikozwe mu cyuma, gishushanyijeho ibintu bitandukanye.

Mo mbere mu nyubako ahasize irangi ryenda gusa umuhondo, bigaragara ko ari ishuri imbere hari ikibaho gisa umweru, ku meza hakaba hari za mudasobwa nyinshi.

Icyapa kigaragara gikozwe mu byuma, kikaba gisize irangi ry'umweru, hari amagambo manini yanditse mu ibara ry'ubururu, yerekana igikorerwa hafi aho.

Inyubako itagaragara neza ifite amabati atukura, imbere yayo hateye ibiti binini cyane n'icyapa kigaragara kiriho ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Mu imbere mu nyubako ahagaragaramo itara ndetse hasizemo irange ryenda gusa umuhondo, harimo ameza ndetse n'utubati n'intebe ikozwe mu mbaho n'utwuma.

Ahantu hagaragara nk'aho ari ikigo runaka cy'amashuri, hagaragara abantu benshi bahagaze hanze, inyuma yabo hakaba hari ibiti ndetse n'imodokari ihaparitse.

Icyapa kinini kigaragara gishinze ahantu mu byatsi, kikaba gikozwe mu byuma gisize irangi ry'umweru, hakaba hari amagambo yanditse menshi mu ibara ry'umukara.

Mo imbere mu nyubako igaragara ko itangirwamo amasomo runaka, imbere hari ibibaho bibiri ndetse harimo ameza n'intebe.

Ikibuga kinini kigaragara cyifashishwa mu mukino w'umupira w'amaguru, kikaba gikikijwe n'ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane.

Igipangu kigaragara cyubakishijwe utwuma twinshi, uduhagaze ndetse n'udutambitse, hakagaragara inyubako isizeho akarange k'umuhondo.

Inyubako igeretse nini ikaba isize irangi ryenda gusa umuhondo, hanze haragaragara abantu benshi bamwe barahagaze, abandi baricaye.

Mudasobwa igaragara iri kwaka, ifite ibara ry'umukara, ikaba yanditsemo amagambo menshi ari mu ibara ry'umukara, n'andi ari mu ibara ry'umutuku.

Mu imbere mu nyubako ahagaragaramo utubati tubitsemo amoko atandukanye y'ibitabo, ndetse n'utundi dukoresho hakagaragaramo udutebe dusa icyatsi.

Mu imbere mu nyubako isize irangi ryenda gusa umuhondo, hashashe hasi agatapi k'umukara n'umweru, hirya hari terefone icometse n'isaha ku ruhande.

Mo imbere mu nyubako isize irangi ry'umweru, haragaragaramo intebe ebyiri zikozwe mu twuyuma ndetse n'utubaho, hari n'ameza manini ateretseho udukombe ndetse n'ikirori.

Mo imbere mu nzu ahagarara imyenda imanitse ku gikuta ndetse n'intebe ya parasitike isa ibara ry'umweru, imbere ku meza hateretseho mudasobwa.

Mo imbere muri sale ahagaragara abantu batandukanye bicaye bakaba ari abadamu ndetse n'abagabo, imbere ku meza hakaba hateretse za mudasobwa.

Igikuta kitagaragara neza cyubakishijwe udutafari dutoya duhiye, hakagaragara urugi rukozwe mu mbaho, rwometseho igipapuro.

Mo imbere mu nyubako isizemo irangi ryenda gusa umuhondo ku bikuta, hejuru hakaba hasize irangi ry'umweru, haragaragaramo abantu batandukanye.

Umuhanda wubakishijwe amabuye, hakaba hagaragara umugabo wambaye isarubeti y'icyatsi, ndetse na boti z'umukara, iruhande rwe haparitse moto.

Umuhanda ugaragara hakaba haparitsemo imodokari y'ibara ryera yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, hakagaragara abantu batandukanye bari kugenda.

Sale igaragaramo abantu batandukanye bicaye, hakaba harimo abagabo ndetse n'abadamu, imbere yabo ku meza hari uducupa twinshi tw'amazi ndetse n'ibitabo.

Mo imbere mu nzu ahagaragara intebe ikozwe mu cyuma ndetse n'akabati kagiye kagabanyijemo ibice bitandukanye, harimo udukoresho nk'amavuta.

Inyubako nini igaragara isizeho amarange atandukanye, hakaba hariho amadirishya menshi cyane; imbere hari abantu bari kugenda hanze na bisi y'umweru itagaragara neza.

Mu imbere mu nyubako ahantu hari ameza manini cyane kandi menshi ndetse n'intebe z'umukara zirimo, haragaragaramo umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi.

Mu imbere mu nyubako ahagaragaramo utubati tugiye twometse ku gikuta, ndetse n'utundi tugiye turi munsi y'ameza, dukozwe mu mbaho, hejuru ku meza hateretse udukoresho dutandukanye.

Igishushanyo cy'ikiganza gifashe akantu kifashishwa mu gufungura amavisi, ndetse n'amatariki, iya mbere y'ukwa gatanu umunsi w'umurimo, inyuma akaba ari ibiti n'inyubako.

Icyapa kigaragara gikozwe mu byuma gisize irangi ry'umweru, giteye agati, hakaba handitseho amagambo manini mu ibara ry'ubururu.

Mo imbere muri sare ahagaragaramo abantu b'abagabo, bicaye ku ntebe, ku meza imbere yabo hakaba hari uducupa turimo amazi yo kunywa.

Mo imbere mu nyubako isizemo akarangi kenda gusa umweru, haragaragaramo ibirahure n'ibindi bikoresho bitandukanye, harimo akabati, hejuru yako hari mudasobwa.

Sale nini igaragara, yicayemo abantu benshi, hakaba hari kwakamo amatara, hasi hashashemo amakaro, bicaye ku ntebe bose.

Mo imbere mu nyubako igaragara ko isize irangi ry'umweru, hakaba harimo n'amatara menshi cyane ari kwaka, hari ameza agiye ateretseho udukoresho dutandukanye.

Mo imbere mu nyubako isa nk'aho isizemo irange ryera, hakaba hari ameza akozwe mu rubaho arambitseho igitabo ndetse na mudasobwa izimije.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo abakobwa babiri, bicaye ku buriri buri wese akaba afite mudasobwa imbere y'iwe, harimo n'utubati tubitsemo ibikoresho.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara igitanda gikozwe mu byuma, hakaba hariho matera n'agasego, ku meza haragaragara akirori bikoresha bisokoza.

Inyubako itagaragara ari yose, ikaba yubakishijwe amatafari matoya, ahiye, hari urugi rufite ibara ritukura n'igipapuro cy'umweru cyometseho.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hari abagabo bari kubaka bambaye ingofero zabigenewe ndetse n'agapangu k'amabati.

Akapa kagaragara gafatishijweho iminyururu yo mu cyuma kakaba gafite amabara abiri iry'umweru ndetse n'iry'ubururu, akaba handitseho amagambo y'umweru.

Mo imbere muri sare ahagaragaramo abantu benshi, basa nk'bakuze, harimo abadamu ndetse n'abagabo, imbere hari umugabo uhahagaze, uri gutanga ikiganiro.

Inyubako igaragara nini cyane, ikaba isize amabara atandukanye y'irange, imbere hakaba hateye udupave, hakaba hariho urugi runini rusize akarange kenda gutukura.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo utubati twinshi dukozwe mu byuma ndetse n'imbaho, harimo ibitabo byinshi ndetse n'ibindi bintu byifashishwa mu kubika impapuro.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo abantu batatu, hari umudamu wambaye amarinete ndetse n'uduherena dutoya, iruhande rwiwe hari abagabo bambaye amataburiya y'umweru.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara utuntu bogeramo intoki ndetse n'uturobine twinshi, hakagaragara n'akantu gafashe mu makaro, bashyiraho isabune bifashisha bakaraba.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hariho urugi runini rurimo ibirahure, imbere hakaba hari umugabo uhahagaze wambaye umupira w'umukara n'ingofero.